Aho twasanga imiti kwa muganga bivurizaga bashaka kugira bagire ubuzima bwiza, tuhasanga naho bashira imodoka mu gihe bagiye kwivuza.

Abana bari kubaha umuti gwa kizungu ubafasha gukura neza, ibinini bya vitamine ni byiza kubitanga ku bana batarengeje imyaka y'ubukure, bituma bazamuka bameze neza nta nzoka bafite zibazonga.

Kera abantu bararwaraga bakabura ubuvuzi uko bivuza, ariko ubu ngubu nta muntu ukiremberaga mu rugo, asigaye agenda akajya kwa muganga, aho yitabwaho n'abaganga bakamuvura, bakamuha imiti igendanye n'indwara arwaye, byaba ngombwa agakira, agataha ameze neza.

Umuti gwa kinyarwanda guvuraga abana, abakuru, abakecuru, abasaza. Ni byiza ko tugubona hafi y'aho dutuye gukatugirira umumaro n'aho tugwifashishaga turi kwivuza indwara zitandukanye kandi tugakira.

Ikimera gihingwaga gikoreshwaga mu buvuzi gakondo, bakagikoramo ibikoresho bitandukanye. Bityo kikaba kijanwaga mu ruganda, bakagitunganya neza, kikaba kivagamo n'imisatsi y'abantu bisukishaga.

Igicumucumu ni icatsi co mu kinani, kivuraga indwara zitandukanye, bagikoreshaga bavura abana b'impinja, kikabavura mu nda.

Umuti bifashishaga bavura ibya kinyarwanda, aho baba babikoresha kuba basuzuma umuntu bakarebako yaba yarangirijwe bamuhaye nk'uburozi, uyu muti ukaba wifashishwaga kugira ngo uvure abantu bakire neza.

Umuti, guvuraga indwara zitandukanye, bakeneraga gukoresha ibyatsi bya Kinyarwanda, bikavura abaturage. Bityo, bakagira ubuzima buzira umuze, batagiye kwa muganga.

Umuti gwa kinyarwanda, bakoreshaga bari kuvura abaturage, aho bifashishaga ibyatsi bya kinyarwanda mu kuvura abantu bagakira, yaba ari abana cyanga abakuru, abakecuru n’abasaza. Ni ngombwa kugira ngo bakoreshe imiti za gakondo, batagiye kwa muganga kugira ngo bakoreshe imiti ya kizungu.

Imigano bayikoreshaga mu bintu bitandukanye bya kinyarwanda aho yifashishaga kubayakorwamo nk'imiti itandukanye ,bakoraragamo ubuvuzi bwa gihanga bakayifashisha bari kuvura abaturage.

Umuti gwa kinyarwanda guvuraga indwara zitandukanye, bawifashishaga mu kuvura. Urugero nk'aho umuntu yaba bamuroze bakaba bamuha kuri ugo muti akagunywa bakareba koko nimba afite ikibazo cyo kuba yangirijwe.

Imiti bifashishaga ya kinyarwanda bari kuvura abaturage ikaba ikenerwa ahantuhose, igomba kuba ihateye kugira ngo abaturage bazaje, bayikenera bayibone bitagoranye ikaba ivuraga, abantu barwaye indwara zitandukanye zivurwaga n'ugumuti gute.

Ibigori biri kumera bimeze neza bikenewe, gushyiraho ifumbire y'imvaruganda. Kugira ngo bizakure neza bitange ,umusaruro mwiza kubabihinze.

Amabuye bw'amakoro iyo gari mu murima biragorana kuhahinga, bisaba gukoresha isuka y'ifuni kugira ngo ubashe guhinga mu makoro.

Urubingo ruvagamo ibishingirizo bashingirizaga ibishyimbo na soya, aho ruvagamo n'ibiribwa by'inka, bityo inka zigatanga umukamo gwushimishije gw'amata, bakaganywa bagasagurira n'amasoko, bakagurisha mu maresitora no mu mahoteli.

Imiti za kinyarwanda bifashishaga bari kuvura abantu barwaye, cyangwa bagize ibindi bibazo by'uburwayi bitandukanye. Ukaba uyu muti wifashishwaga mu bijyanye no kuvura abaturage rusange batagiye kwa muganga kwivuza mu bitaro.

Umuti guvuraga indwara za Kinyarwanda ni byiza ko tuzigira kugira ngo tuje tuzifashisha mu kwivuza, aho bikoreshaga abantu benshi babyivuza. Ni byiza cane kubigira kugira ngo tuzabeho dufite ubuzima buzira umuze, butarangwamo n’indwara.